Uburezi ni isoko y'iterambere, aho usanga ari amashuri y'inshuke, abanza n'ayisumbuye, aho umwana akura afite ubumenyi akabasha kwihangira imirimo, akubaka ejo heza hazaza akabasha kubaho neza.

Uburezi ni isoko y'iterambere twavuga nk'amashuri y'inshuke aho usanga umwana akura afite ubumenyi n'ubushobozi bwo kwihangira umurimo usanga mu mashuri yabo hari udukoresho twifashishwa mu kwiga twavuga nk'udukinisho tw'abana.

Abana bato bateraniye hamwe bambaye impuzankano, yiganje mu mabara y'ubururu. Bakaba bicaye ku musambi ugaragara ko ari uwa kizungu. Ahantu bari bikaba bigaragara ko hashobora kuba ari mu irerero ry'abana, buri wese akaba afite agakinisho ari kugenda akinisha.

Umwuga w'ubugeni n'umwuga ukorwa n'abantu, akenshi uba ugaragaza umuco w'igihugu runaka, ugasanga hari umwuga wo gushushanya, kuboha no kubaza ibikoresho bitandukanye bigaragaza umuco w'icyo gihugu cyangwa agace.

Umubyeyi uri kumwe we n'umwana ashobora kuba ari uwe, uwo mwana akaba yambaye inifomu y'ishuri iri mu mabara y'ubururu, umubyeyi akaba yambaye ikote ry'umutuku n'ikanzu iri mu mabara y'ubururu n'icyatsi, uwo mwana akaba ari mu mwicungo cyangwa se bakunze kwita umunyenga, umubyeyi akaba ari gusunika umwana muri uwo mwicungo.

Ibikoresho dushobora kwifashisha tubika ibintu kugira bigumane ubushyuhe bwabyo, harimo nk'icyayi, igikoma, igikoresho kikaba kiri mu mabara atandukanye uruhande rumwe ni ubururu ahandi ni umutuku.

Udukinisho tw'abana turi mu mabara agiye atandukanye, dufite amabara icyatsi, umukara umweru, oranje, hirya yatwo hakaba hateretse icupa rifite amabara y'ubururu, umweru umutuku n'icyatsi, hirya y'ibyo bintu hakaba hari ibara rigaragara nk'aho ari icyatsi.

Kwiga ni ikintu k'ingenzi cyane aho usanga umwana ahera mu mashuri abanza akajya mu yisumbuye ndetse na kaminuza ariko abanza mbere na mbere umwana abanza kwiga amashuri y'inshuke aho akura ubumenyi bwinshi cyane nyuma y'amashuri y'inshuke dusangamo harimo imikino y'abana, ibikoresha abana bakora bakora siporo ndetse n'ibibafasha mu kwishima.

Akenshi na kenshi ku bigo by'amashuri usanga hariho ibirango bigaragaza ibintu abanyeshuri biga, urugero nk'aho usanga hari ibishushanyo bigaragaza ibice by'umubiri, ugasanga hari ibigaragaza amadarapo agize ibihugu ndetse n'amakarita y'ibihugu bitandukanye ibyo tukabisanga ku mashuri ya segonderi, pirimeri na Kaminu...

Ibikoresho bikoze muri mpande enye zingana bifite amabara agiye atandukanye harimo iby'umweru, iby'umukara, iby'icyatsi, iby'ubururu n'iby'ikigina.

Ibikinisho by'abana biri mu mabara atandukanye, harimo icy'umukara, icya orange n'icy'umutuku werererutse, ibyo ibikinisho bikaba ari ibikinisho bitatu biri ku murongo umwe, byose bikaba biteye mu buryo bumwe, bikaba bitandukaniye ku mabara yabyo.

Ku isi dufite ibinyabuzima byinshi cyane twavuga nk'inyamaswa, inyamaswa zikurura abakerarugendo bakinjiza amafaranga kandi hari n'inyamaswa zitanga ibiryo ku bintu runaka bitandukanye, zimwe na zimwe zikurura abakerarugendo bagatanga amafaranga ateza imbere igihugu.

Ishuri ry'abanyeshuri ryubatse rifite amabati hejuru y'umutuku, imbere kuri iryo shuri ku nkuta hakaba hashusanyijeho ibishushanyo bitandukanye abanyeshuri bashobora kwifashisha biga, ibigaragaza icice by'umubiri w'umuntu, ibigaragaza uburyo ushobora kubara isaha, ibigaragaza ikarita y'Igihugu cyacu, imbere y'iryo shuri hakaba hari ikibuga.

Inzu zubatse mu buryo bujya gusa. Zifite amabara agiye atandukanye. Harimo izifite amabara y'umutuku, hakabamo izifite amabara y'umukara hejuru. Zigiye zubatse mu ntera iri mu gace kegeranye. Imbere yazo hakaba hari ibyatsi bigaragara nk'aho byumye. Hakaba hari abana babiri bari kugenda basatira izo nzu. Inyuma yazo hakaba hari umusozi muremure.

Impano zifunze mu dukarito bigaragara ko dufunze neza kamwe gafite ibara ry'umuhondo, akandi gafite ibara rya move, izo mpano zikaba ziteretse hasi ku mbaho zifite ibara ry'ikigina.

Mu bwoko bw'imbuto butandukanye harimo amaronji, inyanya, hakaba harimo avoka, harimo n' icyuma wifashisha mu gihe ugiye kurya izo mbuto, mu kuzikata kuzicamo kabiri bigufasha mu buryo bwo kuzirya bworoshye.

Igikoresho kimeze nk'igare kizengurutswe n'insinga ziri mu buryo butandukanye izizingazinze, izirarambuye inyuma yacyo hari ikintu kigaragara nk'umusambi w'icyatsi, n'urukweto rugaragara nk'aho ari ubururu kikaba aho giteretse hagaragara nk'umukara wenda kuba ikigina.

Mu Rwanda dusangamo amashuri y'incuke afasha abana bakiri bato kuzamuka bafite ubwenge ku buryo imitsindire yabo iba iri hejuru cyane, niho usanga ku mashuri yabo barashushanyijeho udushushanyo twinshi twerekana ibintu, usanga barashushanyirijwe ibice bigize umuntu ibiribwa se ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu bwubatsi.

Uburezi ni bwiza cyane kuko bufasha abana kujijuka, bakavuga nk'abana batangira mu mashuri abanza ay'incuke yabafashakura neza mu bwenge no mu gihagararo bakazagira ahazaza habo.

Imbwa yicaye hasi ku biti bimeze nkimbaho zigaragara nkikigina cyijimye, iyo mbwa ikaba ikikijwe n'ibikinisho bifite amabara atandukanye arimo iby'ubururu, iby'umuhondo, ibymukara ni iby'umweru, iyo mbwa ikaba yasamye, ifite ku mazuru hari ibara ry'umukara, amaso yayo akaba ari umukara kandi ikaba isa nkaho itumbiriye.

Uburezi ni isoko y'iterambere twavuga amashuri y'inshuke, abanza n'ayisumbuye aho muri ayo mashuri abanza usanga harimo nk'udukoresho abana bifashisha mu kwiga turiho inyuguti, imibare ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Uburezi ni isoko y'iterambere twavuga nk'amashuri y'inshuke aho usanga harimo udukoresho abana bifashisha mu kwiga harimo utugaragaza nk'inyamaswa, uturiho imibare, uturiho inyuguti ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bibafasha mu myigire yabo ya buri munsi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye dushobora kwifashisha turimo nko kwiga, harimo: mubazi, amakaramu, n'ibyo dushobora kwifashisha dushushanya n'umukasi, ibyo bikoresho bikaba bigiye bifite amabara atandukanye: umweru, ubururu, umutuku n'umukara.

Ishuri ry'abana rifite amabara atandukanye. Amabara y'icyatsi, amabara y'ikigina kerurutse kigaragara neza. Kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, abana bashobora kwifashisha biga: nk'ibyo bashobora kwifashisha babara n'ibindi n'ibindi. Ibyo bikoresho bikaba bifite amabara atandukanye: umutuku, icyatsi n'ubu...

Ibikoresho bitandukanye dushobora kwifashisha twiga harimo amarati, amakaramu, umubumbe w'isi dushobora kwifashisha twiga ibice by'isi, ibitabo, ibindi byinshi bikaba biri mu mabara agiye atandukanye umuhondo, icyatsi, umutuku n'ubururu.

Ibikoresho abana bashobora kwifashisha biga biri mu mabara agiye atandukanye, bigiye bifite amabara avanzemo: umuhondo, icyatsi, umutuku n'ubururu, bimwe muri byo bikaba bigizwe n'ibimenyetso by'imibare cyangwa se ibimenyetso twifashisha mu mibare: guteranya, gukuramo, gukuba, bingana.

Ibikoresho bifite amabara agiye atandukanye, muri ayo mabara higanjemo umuhondo, umutuku n'icyatsi, biri ahantu mu cyumba, icyo cyumba kikaba gifite inkuta zifite amabara y'ikigina, hejuru hakaba harimo agakoresho gafite amabara y'umweru n'icyatsi, gatereyeho amatara abiri.

Umuntu wicaye, ufite impapuro, uri kwandika ufite umusatsi muremure, mu musatsi we akaba afitemo utuntu tumeze nk'udukarito tujyamo amagi, yagiye afatisha mu musatsi we, akaba bigaragara ko ari kureba ku rupapuro, ibyo ari kwandika.

Uburezi bufite ireme ni ishingiro ryiza Igihugu cyacu kiyemeje gufasha abana kwiga neza noneho bakubaka ejo habo heza hazaza, twavuga nk'amashuri abanza, ay'inshuke ndetse n'ayisumbuye na za kaminuza, bifasha abana kwiyungura ubumenyi bikabageza ahantu heza bifuza.

Uburezi mu isoko y'iterambere aho usanga ari amashuri y'inshuke, abanza ndetse n'ayisumbuye, mu mashuri abanza usanga arimo udukoresho abana bifashisha biga twavuga uturiho inyuguti, uturiho imibare ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bibafasha mu myigire yabo.

Ikoti ry'ubururu rifite amaboko maremare, umupira w'umutuku ufite amaboko magufi, ingofero y'umutuku iteye neza birambitse ahantu hagaragara ko ari umweru, hirya yabyo hari ikindi kintu gifite amabara y'ubururu gikoze umurongo uvunaguye.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibyo twifashisha dushushanya inziga, duca imirongo, dupima uburebure bw'ibintu, nk'abantu biga imibare, harimo amarati, amarati dukoresha duca imfuruka, n'amarati dukoresha duca inziga.

Kwiga ni ingenzi cyane mu buzima kuko bifasha abantu kubaho neza. Abanyeshuri benshi bakunze kwiga kugirango bazabeho neza mu minsi iri Imbere. Bagira amasomo atandukanye imibare, iyobokamana hari n'ibikoresho bifashisha mu mibare baca imirongo n'ibindi bintu bitandukanye byo gushushanya.

Uburezi ni isoko y'iterambere twavuga amashuri y'inshuke, abanza n'ayisumbuye aho usanga umwana akura afite ubumenyi ku buryo yakwihangira umurimo akabasha kubaka ejo he heza hazaza.

Uburezi ni isoko y'iterambere aho usanga umwana akura afite ubumenyi bwinshi kandi buhagije, twavuga nk'amashuri y'inshuke aho usanga harimo udukoresho abana bifashisha mu kumenya ibintu bigiye bitandukanye.

Uburezi ni isoko y'iterambere, twavuga amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza, aho usanga mu mashuri abanza aba arimo ibikoresho byifashishwa mu myigire y'abanyeshuri, ibishushanyo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

umuntu uhagaze imbere y'abanyeshuri bambaye impuzankan yicyatsi n'umweru, utagaragara neza bigaragara ko hari imbwirwaruhame ashobora kuba ari kubaha. Hirya ha bakaba ari amashuri maremare yubatse mu buryo bwa etage.

Inziga nyinshi zishushanyije ku kibaho zigiye zanditsemo ingombajwi, izo nziga abantu bize isomo ry'imibare akaba bizwi ko nizo abantu bashobora kwifashisha bashyira ibintu mu magurupe, babivangura cyangwa se bagira ibyo bashyira muri gurupe imwe nka gurupe y'abantu bafite icyo bahuriyeho.

Amashuri ni ingenzi cyane kuko usanga yongera ubumenyi bw'abanyeshuri bakabafasha mu myidagaduro, mu mikino amashuri yitwa nk amashuri y'incuke dusanga harimo udukinisho tw'abana tubafasha gukina bakishima.

Inzu ya etaje, bigaragare ko ishobora kuba ari nk'ishuri. Ikaba bigaragara ko igeretse rimwe. Ikaba ifite amadirishya cyangwa se utuyira tw'abagenzi ku mpande ziteye ibara ry'icyatsi. Iyo nzu ikaba yubakishije amatafari.

Uburezi ni isoko y'iterambere twavuga nk'amashuri y'inshuke, abanza n'ayisumbuye, aho usanga umwana akura afite ubumenyi akabasha kwihangira imirimo igiye itandukanye ndetse akabasha kugera ahantu kure heza kandi hashoboka.

Uburezi ni isoko y'iterambere aho usanga abana bakura bafite ubumenyi twavuga amashuri y'inshuke, abanza ndetse n'ayisumbuye, aho usanga umwana afite ubushobozi bwo kwihangira umurimo akubaka ejo heza hazaza.

Uburezi ni isoko y'iterambere, aho usanga ari amashuri abanza y'inshuke, ayisumbuye ndetse na za kaminuza, aho usanga umwana akura afite ubumenyi n'ubushobozi bwo kwihangira umurimo, akabasha kugira icyo akora, akabasha kubona amafaranga.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba bigaragara ko basaba ko hari abakozi bashinzwe nko gutanga ibijyanye n'itumanaho cyangwa umuriro w'amashanyarazi, abakozi bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara atandukanye, hari abambaye izo mu maba y'icyatsi n'umweru, abandi bambaye izo mu muhondo n'umweru, bakaba bambaye n'uturindamutwe dushobora kubarinda impanuka n'ingofero.

Abantu bakoraniye hamwe bigaragara ko bambaye impuzankano y'umweru, hejuru igizwe n'amataburiya umwe muri bo akaba atayambaye. Abantu bakaba bambaye n'udupfukamunwa dushobora kubarinda hari ibintu byakwinjra biturutse mu mwuka bikabateza uburwayi, imbere bakaba hari ubusitani bwiza butewemo n'ibyatsi ,inyuma hakaba hari inzu ndende yubakishije amatafari.

Umuryango winjira mu kigo cya Matimba uriho urugi rukozwe n'ibyuma bifite amabara atandukanye, amabara y'umukara akaba ikigaragaza izina Matimba byanditse mu ibara ry'ubururu, wareba hirya mu kigo ukabonamo ubusitani biuimo ibiti birebire, imbere yaho hari ubusitani butoya bukase bufite amabara y'umuho.

Uburezi ni isoko y'iterambere twavuga nk'amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza aho abanyeshuri basoza bafite ubumenyi bwinshi cyane bakabasha kwihangira imirimo ndetse bakubaka ejo habo heza hazaza.

Muri iki gihe, ikintu kigezweho cyane ni ukwiga umuntu ufite amashuri ntabwo abaho nabi nk'umuntu utarize, umuntu wize aba abayeho neza aba anaategereza ko igihe kizaza niyompamvu dushishikarizwa kwiga twirinda gukura abana mashuri tukabajyana mu mashuri kuko ibyiza biba biri imbere kandi ni nabo bari b'urubyiruko rw'ejo hazaza.

Abantu bari ku mirongo itatu, bamwe bicaye abandi bahagaze, bamwe bambaye imipira ifite ibara ry'umweru, abandi bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu, umwe muribo akaba yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, bamwe muri abo bakaba bafite ibipapuro by'umweru, bakaba bicaye ahantu hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, inyuma yabo hari inzu y'ubururu.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa bari kumurongo umwe, bigaragara ko bafite akamwenyu kumaso, bambaye imyenda y'impuzankano yabo ifite amabara atandukanye. Hasi bamwe bambaye impuzankanda y'umukara, hejuru umweru, abandi hasi bambaye impunkano ifite amabara y'ivu, hejuru icyatsi. Hasi bose bambaye umukara n'amasogisi y'umweru.

Abanyeshuri bari hamwe bambaye impuzankano y'umuhondo hejuru bose, hasi bigaragara ko bambaye kake. lnyuma yabo hakaba hari ibiti byinshi, abo banyeshuri bakaba bari kujyendera mu mirongo bigaragara ko bashobora kuba bari kwerekeza ahantu hamwe.

Uburezi ni isoko y'iterambere twavuga nk'amashuri y'inshuke, abanza n'ayisumbuye. Aho usanga umwana akura azi kwihangira umurimo afite ubumenyi ku buryo abasha kwiteganyiriza ejo heza hazaza mu buryo bwo kwihangira imirimo.

Uburezi ni isoko y'iterambere kandi abanyeshuri nirwo urubyiruko rw'ejo hazaza, niyo mpamvu usanga abanyeshuri biga mu mashuri makuru, baba ari abantu babasha kwihangira imirimo ndetse bakabasha no guhanga udushya.

Isuku ni isoko y'ubuzima. Usanga batwigisha kugira isuku, kuva mu bwiherero ugakaraba intoki, na mbere yo kurya ukabanza gukaraba intoki. Bakatubuza kwihagarika ku gasozi, kuko bikwirakwiza umwanda cyane, ugasanga abaturage banduye indwara ziterwa n'umwanda.

Aha ngaha ni ku kigo cy'amashuri uri kubona ko hari abanyeshuri bambaye neza bafite indangagaciro za Kinyarwanda, rero aha mu Karere ka Nyagatare urabona ko ari abanyeshuri ngo biteguye kuzakorera Igihugu cyacu.

Abanyeshuri bari ku kumurongo hirya yabo hahagaze umuntu umwe ushobora kuba ari mwarimu wabo cyangwa ushinzwe imyitwarire yabo, abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano isa, hejuru bambaye umweru hasi bambaye kake, inyuma yabo hari ibiti birebire by'icyatsi.

Abanyeshuri bicaye bigaragara nk'aho bafite urupapuro bari gusoma abo banyeshuri bakaba bambaye impuzankano isa y'umweru hejuru, hasi ubururu, inyuma yabo hakaba hari abandi banyeshuri bicaye ku murongo bose bambaye impuzankano imeze kimwe.

Icyumba kirimo intebe nyinshi n'ameza buri meza akaba arambitseho mudasobwa, izo ntebe ziri muri icyo cyuyuma zikaba zifite ibara ry'icyatsi n'umukara, icyo cyumba kikaba gifite inzugi ebyiri ziri mu mabara y'ubururu, icyo cyumba kikaba bigaragara ko inkuta zacyo zubabakishijwe amatafari.

Ikibumbano bigaragara ko bishoboka ko ari ikibumbano cya kinyarwanda cya kera, kikaba kibumbye mu ibumba, kikaba kibumbye mu ishusho y'uruziga, urwo ruziga rukoze ikintu kimeze nk'ikidomoro cyangwa se icyungo cya kera.

Inzu ndende ifite amabara atandukanye, ifite amabara y'umweru imbere, hejuru ifite ibara ry'umutuku, imbere yayo hari abantu bari kugenda, hakongera imbere hakaba hari jaride irimo ubusitani bwiza bw'ibyatsi.

Igikoresho kimeze nk'urujyo rwa kera hejuru kigiye gifite ahantu hagiye hasongoye, gikoze umuzenguruko, kikaba gifite hejuru gisongoyeho inshuro eshanu, kiba giteretse ahantu hari ibara ry'ubururu n'umweru.

Uburezi ni ingenzi cyane kuko kwiga bifasha umuntu kwiteganyiriza akazabaho neza mu gihe kizaza, twavuga amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza, aho usanga harimo ibikoresho bitandukanye cyane, bifasha abanyeshuri kwiga ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye.

Urubaraza rw'inzu rufite amabara atandukanye, harimo umweru wijimye, icyatsi, umweru uvanze n'umukara, ikigina, hejuru hakaba hari itara ritaka, imbere y'aho gato hakaba hagaragara nkahari udushushanyo twabana,

Abantu bicaye hamwe muri sale, iyi sale ikaba ifite inkuta irangi ry'umweru, ikaba ifite amadirishya abiri, buri wese muri abo bantu bakaba yicaye ku meza areba imbere, hagati yabo muri bo hakaba hari umwe uhagaze bigaragara ko hari imbwirwaruhame ashobora kuba ari kubahereza.

Icyungo cyangwa se ikibindi cya kinyarwanda kibumbye neza, hirya yacyo hari ikindi nacyo kimeze nk'icyungo, urebye neza icyo cyungo kikaba ari icyungo kiri mu rugero ruringaniye ntabwo ari kinini cyangwa se ngo uvuge ngo ni gitoya cyane kikaba kibumbye mu ibumba.

Abantu bicaye ahantu bimeze nk'aho bari kwiga, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, abambaye imyenda y'umukara, abambaye imyenda y'umuhondo, bicaye ku ntebe z'icyatsi, imbere yabo hari ameza y'imbaho, zenda kuba ikigina basa nk'aho bakurikiye bari kureba umuntu umwe imbere ibyo ari kubabwira.

Ikibumbano cy'umuntu kigaragaza umutwe we, kiri mu ibara cyenda kuba umukara, kikaba kigaragaza ibice by'umutwe harimo amaso, amatwi, amazuru, umunwa, ingoyi n'agahanga.

Kwiga ni ingenzi cyane mu buzima kuko bifasha umuntu kwiteganyiriza ejo hazaza, twavuga nk'abanyeshuri biga muri za kaminuza ndetse no mumashuri yisumbuye baba bakora cyane kugira babashe gukabya inzozi zabo.

Ibikoresho bya kinyarwanda cyangwa byo hambere biri hamwe bikoze mu ibumba bishobora kuba bimwe bigaragara nk'aho byabashije kwangirika cyangwa kumeneka, ibindi bikaba bipfundikiye kimwe muri byo kirapfundikiye, ibindi birapfunduye ntabwo bipfundikiye.

Imodoka iparitse aho ziparikwa, ifite ibara ry'umweru, ifite amatara y'umutuku, aho ziparikwa hakaba haparitse n'imashini bigaragara ko ikoreshwa mu bikorwa by'ubuhinzi, iyo mashini ikaba ifite ibara ry'umutuku, zikaba aho hantu hakaba hakikijwe na jaride y'icyatsi.

Ikibaho twifashisha twiga, kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo, ayo magambo akaba yanditse mu ibara ry'icyatsi, bikaba bigaragara ko ayo magambo uburyo yanditse, atabasha kuba wayasoma byihuse.

Abantu bigaragara ko bameze nk'abaganga, bambaye imyenda yabugenewe ya kiganga, bambaye udupfukamunwa dufite ibara rimwe, bicaye bari kwandika bigaragara ko bameze nk'abantu bari kwakira abantu b'abakiriya cyangwa abarwayi baje babagana.

Agace k'igikuta kenda kuba ikigina, ikigina cyerurutse, hasi gato hari kugaragara aho dushobora kwifashisha ducaginga amatelefone, kuri urwo rukuta hakaba hafasheho akabati gakozwe mu byuma bigaragara ko gashobora kuba hari ibintu gatwikiriye.

Agahandada k'abagenzi, gakikijwe n'ubusitani ku mpande zombi, kuri impande z'ako gahanda hakaba hubakishije amabuye asize irangi ry'umweru n'umukara, hirya y'ako gahanda bikaba bigaragara ko hateye ibiti byinshi, harimo ibyenda gusa n'imyembe, ibindi bikaba ko ari nk'ibiti by'amagereveriya, hejuru y'ibyo haciye insinga zitwararwa mashanyarazi.